Ababyeyi babiri baje ku ivomero rusange bitwaje ibikoresho byabugenewe byo kuvomeramo amazi, aho ayo mazi yifashishwa hategurwa amafunguro mu rugo, ndetse akanifashishwa hakorwa amasuku. Bityo bakomeza kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Urujya n'uruza rw'abana batoya, harimo umumama bakaba baje ku ivomero bitwaje ibikoresho byabugenewe byo gutwaramo amazi ndetse aya mazi akaba aza kwifashishwa mu rugo, hategurwa amafunguro ndetse akaza no gukoreshwa amasuku bityo isuku igakwira ku Isi hose.

Abana batoya b'abakobwa baje ku ivomero rusange bitwaje ibikoresho byo kuvomeramo amazi aza gukoreshwa hategurwa amafunguro, ndetse akanifashishwa hakorwa amasuku. Bityo isuku igakwira ku isi hose.

Umwana mutoya arimo kunywa amazi meza asukuye, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, ndetse bimurinde kuba yandwara indwara ziterwa n'umwanda.

Umubyeyi waje ku ivome rusange yitwaje igikoresho cyo kuvomeramo amazi, akaba ari amazi aza kwifashishwa mu rugo hategurwa amafunguro, ndetse akaza no gukoreshwa amasuku. Bityo isuku igakomeza gukwirwa ku isi hose.

Urujya n'uruza rw'abana batoya, bari kumwe n'abantu bakuru, ndetse harimo n'umuhanzi, bakaba bari guhabwa amata, kugira ngo babungabunge ubuzima bwabo ndetse hirindwe n'indwara z'imirwigire, bityo bakomeze gukura neza, haba mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye harimo inshinge ndetse n'umuti, byose bikaba byifashishwa kwa muganga havurwa indwara ndetse akaba ari ibikoresho byujuje ubuziranenge.

Umwana mutoya uri ku ivomero rusange arimo arakaraba intoki n'amazi meza kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda, bityo isuku ikomeze gukwira ku Isi hose.

Abana batoya b'abanyeshuri bari kumwe na mwarimu wabo, barimo gukaraba intoki n'amazi meza kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umwana waje ku ivomero rusange yitwaje igikoresho cyo kuvomeramo amazi meza asukuye, ndetse akaba ari no kuyanywa, bityo agakomeza kwirinda indwara zitebwa n'umwanda.

Urujya n'uruza rw'abaganga barimo kwita ku barwayi, harimo umurwayi barimo gutera urushinge rumufasha kumurinda indwara, ndetse agakomeza no kugira ubuzima bwiza, bityo ubuvuzi bugakomeza kunozwa ku isi hose.

Umubyeyi waje ku ivomero rusange yitwajije ibikoresho byo gutwaramo amazi meza asukuye, abona ko yishimye, amazi akaba aza gukoreshwa mu rugo hategurwa amafunguro, ndetse akanakoreshwa amasuku, bityo agakomeza kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umubyeyi ari kumwe n'umwana mutoya, arimo aramukinisha, ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe, kandi abantu bose bafite ikibazo cyo mu mutwe baba bagomba kwitabwaho, bityo ubuvuzi bugakwira ku Isi hose.

Umubyeyi n'umugabo bafite umwana ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe ndetse akaba agomba kujyanwa kwa muganga na we kugira ngo yitabweho, uburwayi bwo mu mutwe buravurwa kandi bugakira.

Umuganga uri kumwe n'umwana, ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe, arimo kumuganiriza kugira ngo yumve ko ari kumwe n'abantu bamwitayeho bityo abarwaye indwara zo mu mutwe baba bagomba kwitabwaho neza. Kuko indwara zo mu mutwe ziravurwa kandi zigakira.

Umubyeyi wicaye wenyine ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe ndetse akaba ari nta muntu n'umwe umwitayeho kandi na we agomba kwitabwaho kubera ko indwara zo mu mutwe ziravurwa kandi zigakira.

Umugabo uri wenyine wigunze ndetse uri wenyine ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe kandi abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe baba bagomba kwitangabwaho kubera ko indwara zo mu mutwe ziravurwa kandi zigakira.

Urujya n'uruza rw'abana batoya, harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bose ubona ko bafite ikibazo cyo mu mutwe, bakaba bagomba kwitabwaho kubera ko indwara yo mu mutwe iravurwa kandi igakira.

Urujya n'uruza rw'abana batoya, barimo gusukura amenyo yabo bakoresheje uburoso bwabugenewe, n'umuti, n'amazi meza asukuye kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Umwana mutoya ari gusukura amenyo, akoresheje uburoso ndetse n'umuti wabugenewe kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda. Ni byiza gutoza abana bacu, gukorera isuku amenyo yabo kugira ngo bakomeze kugira isuku mu buzima.

Umusore urimo guseka abona ko afite amenyo meza ndetse amenyo ye akaba ari nta kibazo afite, ni byiza kubungabunga iamenyo yacu, tuyagirira isuku buri munsi dukoresheje umuti ndetse na korogati yifashishwa mu koza amenyo.

Ishusho igaragaza igice cy'imbere cy'amenyo uburyo amenyo aba ameze iyo ari umubiri ndetse n'iyo arwaye uburyo aba ameze, bityo ikaba ifatwa hagamijwe kugira ngo habeho ubuvuzi bwizewe kandi bwiza.

Umugabo urimo kunyuza urudodo mu menyo kaba urudodo rwabugenewe rusanzwe rukoreshwa kwa muganga rukaba rukoreshwa hakurwamo imyanda iri hagati mu menyo bityo kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Umwana mutoya ari kumwe n'umubyeyi ukuze, barimo gukina umukino w'amaboko kugira ngo baruhure mu mutwe, bityo bibabafashe gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse n'iminsi yo kubaho yiyongere.

Umukecuru ukuze arimo arakora imyitozo ngororamubiri, arimo aragorora amaguru, umugongo ndetse n'amaboko kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri bityo bimwongerere iminsi yo kubaho.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, akaba ari ibitaro byubatswe neza ndetse ubona ko ifite ibikoresho byinshi byifashishwa hari kuvurwa abarwayi.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ubw'abantu batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako ubona ko ifite ibikoresho bihagije byifashishwa buri kuvurwa abarwayi.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, yaba ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, bikaba ari ibitaro bifite ibikoresho bihagije, byiza hakaba harimo n'igitanda, aho umurwayi aryama, kugira ngo abashe kwitabwaho neza. Bityo ubuvuzi bukomeza kunozwa ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, haba ubuvuzi ko abana batoya, haba ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane. Hari inyubako nini, mbese ubona ko harimo abarwayi, baje gushaka serivisi y'ubuzima, kugira ngo bitabweho neza maze bakire. Bityo ubuvuzi bukomeze kunozwa ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ubuvuzi bw'abantu batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako nini kandi nziza ifite isuku, aho hariho abarwayi ubona ko baje gushaka ubuvuzi kugira ngo bitabweho neza.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ubuvuzi bw'abana batoya ndetse n'abakuze cyane, akaba ari inyubako yubatse ahantu heza mbese ifite n'ubusitani aho abarwayi baza kwicara kugira ngo bafate umwuka mwiza wo guhumeka bityo bakire vuba.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Ni ubuvuzi bw'abantu batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane. Hari inyubako ubona ko yihagije ku bikoresho bimwe na bimwe byifashishwa bari kuvura abarwayi. Bityo ubuvuzi bukomeje kunozwa ku isi hose.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'uvuzi ku ndwara zitandukanye yaba ari ubuvuzi bw'abantu batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako yihagije ku bikoresho, aho harimo ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa hatangwa ubuvuzi maze abarwayi bakabasha kwitabwaho neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye habaho ubuzuga bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, akaba ari inyubako ubona ko ibikoresho bihagije byifashishwa havurwa uburwayi ndetse hari n'igitanda aho umurwayi aryama kugira ngo aruhuke neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ubuvuzi bw'abana batoya, abakuru ndetse n'abakuze cyane. Ikaba ari ibitaro ubona ko bifite ibikoresho bihagije byifashishwa bari kuvura abarwayi. Ndetse hakaba hari n'igitanda baha umurwayi aryama, mu gihe ategereje guhabwa serivisi, bityo ubuvuza bukomeza kunyurwa ku isi hose.

Inyubako icururizwamo imiti ikoreshwa havurwa indwara zimwe na zimwe zitandukanye, ikaba ari imiti ikozwe neza ndetse yujuje ubuziranenge.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ubuvu bw'abantu batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako yubatse ahantu heza hatuje, ndetse ikaba ifite ubusitani, aho abarwayi baza kwicara kugira ngo bafate umwuka mwiza wo guhumeka, bityo bakire vuba.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, n'ubuvuzi bw'abantu batoya, ubuvuzi bw'abakuze, ndetse n'abakuze cyane. Akaba ari ibitaro ubona ko bifite ibitanda aho abarwayi baryama, kugira ngo bashe kuruhuka neza bityo bitabweho neza.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, akaba ari inyubako ifite isuku ndetse hakaba harimo ibikoresho byifashishwa, hari kuvurwa abarwayi bityo ubuvuzi bugakomeza kunozwa ku isi hose.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi n'indwara zitandukanye, ubuvuzi bw'abana batoya ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako ifasha ababyeyi kugira ngo babyare neza bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza, akaba ari n'abantu ubona ko baje bayigana, baje gushaka serivisi kugira ngo bitabweho na bo.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane hakaba ari inyubako ubona ko ifite ibikoresho bihagije byifashishwa bari kuvura abarwayi bityo ubuzima bukomeza kunozwa ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, barimo umuganga uri kumwe n'umurwayi, ubona ko ari kumwitaho neza, ndetse kaba azanakira, bityo ubuvuzi bugakomeza kunozwa ku isi hose.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ubuvuzi bw'abantu batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako yihagije ndetse ifite isuku, ikaba yakira abarwayi benshi kandi bose bagataha bahawe serivisi nziza.

Inyubako nini itangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, bwaba ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane. Bikaba ari ibitaro ubona ko bifite ibikoresho bihagije, byifashishwa bari kuvura abarwayi.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, nk'ubuguzi bw'abantu batoya, ubuyobozi bw'abakuzi, ndetsen'abakuze cyane. Akaba ari inyubako nini ndetse ifite umuryango aho abarwayi binjirira kugira ngo babashe kwitabwaho neza, hakaba hari n'umubyeyi ubona ko ahetse umwana avuye kwivuza kuri ibyo bitaboro.

Inyubako itangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ubuvuzi bw'abantu batoya, ubuvuzi bw'abakuze, ndetse n'abakuze cyane, aba ari inyubako ifite ibikoresho bihagije byifashishwa bari kuvura abarwayi, ndetse hakaba hari n'igitanda, aho umurwayi aryama kugira ngo aruhuke neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye harimo umuganga urimo kwita ku murwayi arimo kumuvura kugira ngo agarure ubuzima, bityo ubuzi bukomeze kunozwa ku isi hose.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, bwaba ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze, ndetse n'abakuze cyane, ikaba ari inyubako nini ku buryo yakira abarwayi benshi, kandi bose bagataha bahawe serivisi nziza.

Inyubako itangirwamo serivise y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ubuvuzi bw'abana batoya, ubuvuzi bw'abakuze ndetse n'abakuze cyane. Akaba ari inyubako yubatse neza ndetse ifite isuku, hakaba hari aho abarwayi bashikira kugira ngo babakire ndetse banabayobore inzira nziza. Bityo ubuvuzi bukomeze kwitabwaho ku isi hose.

Inyubako nini nziza icururizwamo imiti yifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, ndetse akaba ari imiti yujuje ubuziranenge, ikora neza, hakaba hari umuntu waje uyigana ubona ko aje gushaka imiti yo kuvura indwara.

Umuntu ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, arimo aragorora amaboko ndetse n'umugongo kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri bityo agire ubuzima bwiza, ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kubera ko ni ingirakamaro ku buzima bwacu.

Umumama arimo arakora imyitozo ngororamubiri, arimo aragorora amaguru ndetse n'amaboko kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri ndetse n'amagufa akomere bityo akomeza kugira ubuzima bwiza.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, arimo aragorora amaboko ndetse n'amaguru kugira ngo amaraso atembera neza mu mubiri ndetse n'amagufa akomere, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abaganga barimo kwita ku murwayi bamuvura binyuze mu kumukoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo akire neza ndetse akomere n'amagufa, bityo agire ubuzima bwiza.

Umukobwa arimo gukora imyitozo ngororamubiri, arimo aragorora amaboko ndetse n'amaguru kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri bityo akomeze kugira ubuzima bwiza byiza, ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kubera ko ari ingirakamaro ku buzima bwacu.

Umukobwa urimo ukora imyitozo ngororamubiri arimo aragorora amaguru ndetse n'amaboko kugira ngo amaraso atemmbere neza mu mubiri ndetse n'amagufa akomere bityo akomeze kugira ubuzima bwiza, ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kubera ko n'ingirakamaro ku buzima bwacu.

Abantu babiri barimo barakora imyitozo ngororamubiri, umwe arimo aramufasha kugorora akaguru kugira ngo imitsi ikore neza ndetse n'amagufawa akomere bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Amoko y'imiti itandukanye, yifashishwa havurwa abantu bakoze imyitozo ngororamubiri, bakagiriramo ibibazo birimo nk'imvune, akaba ari imiti ikora neza ndetse yizewe, ikaba yujuje n'ubuziranenge.

Umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kunywa amazi meza asukuye amufasha kuyungurura imyanda iri mu mubiri, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa arimo gukora imyitozo ngororamubiri, arimo aragorora amaboko ndetse n'amaguru kugira ngo imitsi ikore neza n'amaraso atembera neza mu mubiri, bityo agire ubuzima bwiza.

Umugabo ubona ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri, akaba arimo kunywa amazi meza asukuye, amufasha kuyungurura imyanda iri mu mubiri, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, hakaba harimo igikoresho cyifashishwa havurwa abarwayi, aho baryamishaho umurwayi kuri icyo gikoresho kugira ngo bamugorore umugongo bityo n'amaraso akomezaze gutembera neza mu mubiri ndetse anakire.

Ubwoko bw'umuti w'ibyatsi ukoreshwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, ukaba usoromwa ugakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo, ukaba wifashishwa havurwa indwara.

Umuti ukozwe mumbuto gakondo ukaba ari umuti ukora neza kandi ukavura. Ukaba wujuje ubuziranenge ukaba wifashishwa havurwa indwara zitandukanye.

Mu bwoko bw'umuti ukoreshwa kwa muganga havurarwa indwara zitandukanye, haba indwara z'ubu iruhu, indwara zo munda ndetse n'izindi, akaba ari umuti ukozwe neza ndetse wujuje ubuziranenge ukaba ukoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Amoko y'imiti ikozwe mu byatsi bizwi nka gakondo, bikaba bikoreshwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye ndetse ikaba ari imiti yujuje ubuziranenge. Ikaba ikoreshwa hari kuvurwa abarwayi.

Amoko y'imiti itandukanye yifashishwa kwa muganga havurwa indwara zimwe na zimwe, yaba indwara z'uruhu indwara zo mu nda ndetse n'izindi, ikaba ari imiti ikozwe neza ndetse yujuje ubuziranenge, ikaba ikoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Inyubako icururizwamo imiti gakondo, yifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, zirimo indwara z'uruhu ndetse n'indwara zo mu nda, akaba ari inyubako nini ubona ko hari n'abantu baje kugura iyo miti, iza kubafasha mu kwivura indwara, akaba ari imiti myiza ndetse yujuje ubuziranenge.

Amoko y'imiti itandukanye, harimo ibyatsi ndetse n'ibinini bikozwe mu byatsi, byose bikaba byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, yaba ari ubuvuzi bw'indwara z'uruhu, indwara zo mu nda ndetse n'izindi, ikaba ari imiti yizewe kandi yujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'amavuta akozwe mu gitakarubamba, akaba ari amavuta afasha umubiri gusa neza ndetse akaba akoranye ubuhanga ikindi arizewe.

Ubwoko bw'umuti w'ibyatsi ukoreshwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye ukaba usoromwa ugakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo ukora neza kandi ukavura, ukaba ukoreshwa havurwa abarwayi.

Ubwoko bw'imiti y'ibyatsi, ikoreshwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, bukaba busoromwa bugakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo, ukora neza kandi ukavura. Ukaba ukoreshwa havurwa abarwayi.

Amoko y'imiti itandukanye, ikozwe mu byatsi ndetse n'imbuto gakondo, byose bikaba bikoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi ndetse akaba ari imiti ikora neza, yujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'amavuta atandukanye akozwe mu gikakarubamba, akaba ari amavuta meza ndetse agira umubiri neza akaba ari amavuta yizewe yujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu buki, ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, yaba ari indwara z'uruhu, indwara zo mu nda, ndetse akaba ari umuti wizewe kandi wujuje ubuziranenge.

Amoko y'imiti itandukanye, harimo n'inanasi byose bikaba byifashishwa mu buvuzi bw'indwara, ndetse akaba ari imiti ikozwe neza yujuje ubuziranenge. Ikaba yifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Amoko y'imiti itandukanye yifashishwa havurwa indwara zimwe na zimwe, haba ari indwara z'uruhu , indwara zo munda ndetse n'izindi. Ikaba ikoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi, ndetse irizewe.

Ubwoko bw'imiti y'ibyatsi ikoreshwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu nda, indwara z'uruhu, ndetse n'izindi, bukaba busoromwa bugakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo ukora neza kandi ukavura, ukaba ukoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Ubwoko bw'ibyatsi bwifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, bukaba busoromwa bugakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo, ukora neza kandi ukavura, ukaba wifashishwa havurwa indwara.

Ubwoko bw'umuti w'ibyatsi wifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, aho buri gusoromwa kugira ngo bukorwemo umuti uzwi nk'umuti gakondo ukora neza kandi ukavura, ukaba wifashishwa havurwa abarwayi.

Ubwoko bw'amavuta akozwe mu gikakarubamba, akaba ari amavuta agira umubiri neza ndetse akaba yizewe, agakoreshwa hagamijwe kugira ngo umuntu agire uruhu rwiza bityo akomeze gusa neza.

Ubwoko bw'umuti bukozwe mu byatsi gakondo, bukaba bwifashishwa kwa muganga havurwa indwara zimwe na zimwe, yaba ari indwara zo mu nda, indwara z'uruhu, ndetse n'izindi. Ukaba ari umuti ukozwe neza kandi wujuje ubuziranenge.

Amoko y'imiti itandukanye ikozwe mu byatsi aho ikoreshwa kwa muganga havubwa indwara ndetse akaba ari imiti yizewe yujuje ubuziranenge, ikaba yifashishwa havurwa abarwayi.

Ubwoko bw'amavuta akozwe mu byatsi bizwi n'igikakarubamba, akaba ari amavuta meza afasha umubiri kumera neza, akaba akozwe neza ndetse yujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'amavuta atandukanye akozwe mu gikakarubamba, akaba ari amavuta atuma umubiri usa neza ndetse akaba akoranye ubuziranenge.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu gitakakarubamba, ukaba ari umuti ukoreshwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, zaba ari indwara zo mu nda, indwara z'uruhu, ndetse n'izindi, ukaba ari umuti ukozwe neza ndetse wujuje ubuziranenge, ukaba ukoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Ubwoko bw'umuti bukozwe mu mbuto gakondo, bukaba bwifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, ndetse akaba ari umuti wujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'umuti w'ibyatsi bukoreshwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, bikaba bisoromwa bigakurwamo umuti uzwi nk'umutima gakondo wifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi, ukaba ari umutu ukora neza kandi wizewe.

Amoko y'imiti itandukanye yifashishwa kwa muganga havurwa indwara zimwe na zimwe, harimo indwara z'uruhu, indwara zo mu nda ndetse n'izindi. Ikaba ari imiti ikora neza ndetse yujuje ubuziranenge.

Inyubako nini icuruzwamo imiti gakondo yifashishwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, hakaba hari umuntu w'umugabo ubona ko ari kubaza imiti aje kugura aba ari imiti yujuje ubuziranenge ndetse ikora neza.

Amoko y'imiti itandukanye aho yasoromwe kugira ngo ihurwe, ikorwemo umuti uzwi nk'umuti gakondo ukora neza kandi akavura, ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Amoko y'imiti itandukanye, harimo imiti y'ibyatsi, imbuto ndetse n'ibitoki, byose bikaba byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye ndetse akaba ari imiti igwa neza kandi yizewe.

Ubwoko bw'umuti ukozwe mu byatsi gakondo, ukaba wifashishwa kwa muganga, havurwa abarwayi ndetse akaba ari umuti wizewe wujuje ubuziranenge.

Ubwoko bw'amavuta bukozwe mu byatsi bizwi nk'igikakarubamba, akaba ari amavuta meza yujuje ubuziranenge, akaba yifashishwa kugira ngo afashe umubiri kumera neza.

Umuti ukozwe mu byatsi gakondo, ukaba ukoreshwa kwa muganga havurwa indwara zitandukanye, ukaba ari umuti wizewe kandi ukora neza. Ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Amoko y'imiti myinshi itandukanye ikoreshwa kwa muganga havurwa indwara zimwe na zimwe, yaba ari indwara z'uruhu, indwara zo mu nda ndetse n'izindi, ikaba isoromwa, igakorwarwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo ukora neza kandi ukavura, ukaba wifashishwa kwa muganga havurwa abarwayi.